Inama y'abaturage igizwe n'abagore, hahagaze abagabo basa nkaho bari kubabwira amabwiriza, abagabo babiri bari kubaganiriza ku bintu bigiye bitandukanye.

Umwana w'umuhungu, ufite igikombe, imbere y'iwe hari siterine iriho robine, ari kuvoma amazi muri cya gikombe, amazi agiye kunywa.

Abana babiri bagiye kuvoma, hari ibivomesho bigera kuri bitatu. Ni abana b'abahungu babiri, umwe ari gufungura robine ari kuvoma amazi akajya mu kivomesho kimwe.

Umubyeyi wambaye igitenge n'umupira n'ingofero wagiye kuvoma, ari ku ivomero ari kuvoma amazi ari kujya mu ijerekani, arategereje yuko ijerekani yuzura agataha.

Umujyanama w'ubuzima, ari kuganiriza abantu batatu, harimo umugabo umwe n'abagore batatu, bicaye ku ntebe, inyuma yaho hari insina ndende, bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Umugabo wambaye amarinete ari kumwe n'umugore, bagaragaza inseko ku maso bigaragara ko bishimye, umugore yari ari kugerageza gusunika mu kagare umugabo, bari kugenda.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abagabo babiri n'umugore umwe hakabikwamo n'amamashini yabugenewe yo kwa muganga, imbere yabo hari umurwayi bari kuvura, umuganga w'umugore ari kumuvura.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga babiri bambaye umwambaro wo kwa muganga bambaye n'udupfukamunwa, imbere yabo bari kureba imashini bari kuyiganiraho, bari kwitegereza neza iyo mashini.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo amamashini atandukanye, hari umubyeyi uryamye ku buriri iruhande rw'ibyo byuma, ibyuma biriho n'imashini ziri kwaka.

Icyumba kinini kirimo abaganga batandukanye bambaye n'imyenda yo kwa muganga, harimo abagabo n'abagore bari gusobanurirwa ibintu bitandukanye ariko bari kurebera kuri televiziyo umuntu uri kubasobanurira.